Aho abantu bateraniye, hamwe harimo inzego z'umutekano, harimo abakozi ba RIB n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye, bari kwishyira hamwe umutekano w'igihugu muri rusange udufitiye akamaro ndetse na bo.

Abaturage bambaye amapingu bakoze ibyaha, bagiye muri gereza aho bafungira abantu kugira ngo baryozwe ibyaha bakoze, ikindi kandi iyo umuntu avuyemo avamo yaragororotse.

Abantu bari mu mutekano, bari kumwe n'imbwa zabafashaga gucunga umutekano, aho zibafasha gucunga abantu batwara ibiyobyabwenge, ndetse zikanasaka n'abatwaye forode, ni abaporisi bambaye neza, izi mbwa nazo zatojwe neza.

Aho abaturage bicaye neza, imbere yabo hariho umuyobozi, Abapolisi, n'Abasirikare bambaye impuzankano yabo bari kubaganiriza kugira ngo bosobanukirwe uburenganzira bwabo n'inshingano zabo.

Abayobozi bari kuganira ibyateza igihugu imbere ndetse n'abaturage muri rusange, aho ubonako harimo abasirikare bashinzwe umutekano bicaye batuje bari kuganira, ibyagirira igihugu akamaro n'Abanyarwanda muri rusange.

Inama aho umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage ari kubabwira ibyagezweho, ndetse no kubasaba kongera ibyo bakora mu buzima bwa bo bwa buri munsi, kugira ngo barusheho kwiteza imbere, no guteza imbere igihugu cyababyaye muri rusange.

Abaturage bari mu nama. Umuyobozi ahagaze imbere yabo ari kubabwira ibijyanye no kubateza imbere mu mudugudu wabo. Aba baturage bitabiriye ari benshi kandi barasa neza, banakurikiye ibyo umuyobozi ari kubaganiriza.

Abo baturage bicaye mu nama bari kwiga ibya bateza imbere dore ko ari n'abaturage bagize komite y'inama kanaka, bari kwiga ibya duteza imbere mu gihugu cyacu.

Inka z'inyarwanda, izi ni inka z'inyambo bambitse n'urugori mu mpanga, aho zifite n'abatahira bambaye imyenda yabugenewe bahagaze imbere yazo. Izi nka zarangaga umuco nyarwanda, ndetse izi nka zigira n'amafaranga, iyo umuntu ayigurishije bamuha amafaranga yifashisha mu buzima.

Umuco nyarwanda aho intore zambaye amayogi ku maguru, zambaye n'imigara ku mutwe, zifite n'amacumu ndetse ndetse n'ingabo, aho zirajya gutaramira abantu kugira ngo zibasusurutse na bo bishime kandi bakazishimira.

Umuco gakondo wo kuboha ibirago cyangwa imisambi byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu gushyingira abageni, mu kubyicaraho, ndetse biba bikoze n'imitako myiza, ababikora barahembwa, bahembwa neza bakiteza imbere.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'amasaka, amasaka ni igihingwa gihingwa mu gihugu cy'u Rwanda, igihingwa ni igihingwa kiza, iyo kimaze kwera tukigurisha, ibindi tukabyanika tugakuramo ibikoma ,ndetse tugakuramo n'amakoma dushigishamo ibigage.

Mu muco nyarwanda, aho abantu bakoraga ibikoresho gakondo byifashishwaga mu buzima bwacu bwa buri munsi, bikabafasha kubonamo amafaranga bakiteza imbere, bagateza ni imiryango yabo imbere, aho bajya kubigurisha bakabonamo amafaranga menshi.

Intore zambaye amayugi, zambaye n'imikinnyero, ziri guhamiriza, intore iyo ziri guhamiriza zishimisha abari kuzireba, kandi bakanabasusurutsa bose bagasubira aho baturutse bishimye.

Uyu muco ni uw'abantu ba kera babagaho bameze gutya, batambara imyenda, bambara impu n'impuzu, ndetse inkanda nibyo bambaraga mu gihe cy'umuco wa kera.

Uyu ni umuco gakondo izi ni intango bengeragamo inzoga za kera ibigage, urwagwa ,murabona ko harimo n'imiseke yo gusomesha izi nzoga ziri muri ibi bibindi ni umuco gakondo wa kera.

Umuco gakongo aho uyu mukobwa ubyina yambaye ibyo yifashisha mu kubyina kwe kugira ngo abererwe. Kandi umuco gakondo ni umuco mwiza buri wese yishimira kureba.

Mu muco gakondo babita abakaraza bavuzaga ingoma, bakavugiriza ababyinnyi, ababyinnyi babyinaga neza n'abakaraza bazi kuvuza ingoma neza cyane ku buryo twese twabyishimiraga. Abakaraza babikoraga kera gusa na n'ubu baracya...

Uyu na wo ni umuco gakondo aho babohaga ibiseke, abanyarwanda bo hambere ibiseke tubyifashisha mu gutwereramo, tubyifashisha mu gutaka aho ariho wose, muri hoteli, mu maresitora, ndetse mu bukwe ibiseke byarangaga umuco gakondo w'abakera.

Umuco gakondo habamo ubukorikori bwinshi ,aho aha ngaha bari gukora imitako bataka mu bukwe n'ahandi hantu hose hahurira abantu benshi ,ndetse n'ahantu bakorera imyidagaduro ,ikindi kandi abo bantu bakora iyo mitako bakuramo amafaranga bakoresha mu gutunga imiryango yabo .Amafaranga bayakoresha bishyura ahantu bagiye ahariho hose muri serivisi.

Umuco gakondo, aho abantu bakoraga ubukorikori bwo kubumba ibibindi. Barangiza kubibumba, bakabijyana ku isoko. Bamara kubigeza ku isoko, bagahura n’abakiriya. Abakiriya bakabigura, amafaranga babahaye bakayakoresha mu kwiteza imbere.

Inka gakondo zitwa inyambo twishimira kuzireba. N'abazungu baza kuzireba, baduha amadovize. Twiteza imbere, tugateza imbere n'Igihugu cyacu dukora neza ibyo tugomba gukora. Twishyurira abana amafarangaga ishuri.

Kwenga urwagwa, bari kwenga urwagwa, abantu benshi bakoresheje ishinge. Ndetse urwagwa ni inzoga gakondo benga bakoresheje, bataze ibitoki, byamara gushya bakabyenga, bamara kwenga bagashyiramo ifu bagatara, nyuma y'igihe runaka hakazavamo urwagwa.

Uyu ni umuco gakondo urabona inkongoro bacundiragamo amata ndetse bakabikamo amata .Amata avamo ,amata avamo turanywa aba aryoshye ,kandi abayacuruza na bo babonamo amafaranga.

Uyu muco nyarwanda abantu barikwambikana impeta, bivuze ko basezeranye bashaka kuba umwe bakabana, bakabana mu budahemuka bakajya barajyana aho bagiye hose nta nkomyi.

Umuco gakondo aho abakaraza bavuzaga ingoma mu birori bitandukanye, cyane cyane baba bishimiye abashyitsi babagendereye, ikindi abakaraza bavuza ingoma neza, mu birori, bahembwa amafaranga yogukoresha.

Umuco gakondo Uyu muturage afite igiseke mu ntoki ndetse yambaye n'urunigi mu ijosi. Igiseke bagitwaragamo imyaka bagiye gutwerera mu bukwe, cyangwa bakabitaka ahantu habaye ibirori runaka kugira ngo bibutse Abanyarwanda umuco gakondo.

Umuco gakondo wo guhamiriza n'imishayayo ku bakobwa, abakobwa babyinaga bashayaya wabonaga ari ibintu byiza byashimishaga ababareba, ndetse byabafashaga no kubaho neza banishimye.

Ibihaza byahingwaga kera, ibihaza bakoramo ibicuma n' inzuho, ndetse n'udukiza . Bikaba byiza abantu babihinga babonamo amafaranga, iyo bakozemo ibicuma n'ibindi bikoresho bivamo.

Umuco gakondo w' intore zirimo guhamiriza, zifite amacumu mu ntoki, zambaye n'imigara, zifite n'ingabo bizifasha kubyina neza, bagasusurutsa abitabiriye ibirori baba bagiye gutaramira, kandi bambaye neza barasa neza, buri wese yakwifuza kubareba.

Nkunda abamama babyina bambaye imigara ku mutwe bambaye n'imikinnyero ndetse bashimisha rubanda rwaje kwihera ijisho. Nabo barangiza kubyina babaha amafaranga atuma biteza imbere.

Mu muco wo guhamiriza, aho intore zahamiriza zishimisha abashyitsi baje kwihera amaso, intore zihamiriza neza cyane turabikunda zishimisha abazireba, ndetse na zo zikabonamo inyungu zibabeshaho.

Ibi bikoresho babikoreshaga kera n'ubwo n'ubu bikigaragara ahantu hanshi. Ibi bikoresho ni ibikoresho byitwa inkongoro babikamo amata. Amata yo kunywa tukayanywa ameze neza akaryoha.

Umuco gakondo aho babohaga uduseke. Ibiseke babitakaga ahantu henshi hatandukanye, ndetse n'abagiye mu bukwe bashyiragamo imyaka bagatwerera mugenzi wabo wagize ubukwe.

Aho intore zahamirizaga zifite ingabo ndetse n'icumu mu ntoki. Ni intore zahamirizaga ku buryo abantu bishimaga ndetse bakabaha n'amafaranga, bifashishaga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu muco gakondo turi kubona igisabo bakoresha mu bintu byinshi, cyane cyane mu kugicundiramo amata, kugira ngo avure mu buryo bwiza, kandi bidatinze.

Inyarwanda aho abakobwa bambaye imyenda yo kubyinyina irimo imikenyero n'inigi mu ijosi, bateze n'urugori mu mutwe bari kubyina ababyinnyi bari kubyina basusurutsa abitabiriye ibirori.

Umuco gakondo aho abantu bari kubyina bikoreye biseke ku mutwe. Barigushayaya .Iruhande rwabo hariho n'abakaraza bavuza ingoma nyuma yaho bigashimisha abari kuhareba nabo bakabyishimira. Babonamo amafaranga.

Inyubako ya Leta ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi iby'amahoteli bakiriragamo, ikindi cyo bacururizamo n'ibicuruzwa by'ubwoko bwose dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umuhanda wa kaburimbo aho hari kunyuramo imodoka ikora imihanda yo kugenda neza, bigaragara ko hari aho igiye gu gukora umuhanda, imodoka ikora imihanda vuba.

Nigoyini mukamira dayari ni inyubako icururizwamo amata. Amata turaganywa tukagira ubuzima bwiza, kandi amata tuyajyanayo bakaduha amafaranga, tukiteza imbere adufasha kwishyurira amafaranga y'ishuri n'abana bacu.

Mu bitaro tujya kwivuza indwara zitandukanye, baduha serivisi nziza, baduha n'imiti kandi batwitaho. Abaturage bose urembye ajye ajya ku bitaro.

Abaturage bambaye neza，bambaye impuzankano， bambaye amajire asa， bambaye n'ingofero zisa ndetse n’umudaso， bahagaze iruhande rwabo， bari kujya inama y'icyo bagiye gukorera abantu.

Amashanyarazi ni ikintu dukenera igihe cyose ku munsi wa buri munsi, aho tukayakoresha mu nganda zikora ibiribwa bitandukanye, n'ibinyobwa bitandukanye, ikindi tukayakoresha turi gukoresha amapasi, turi gutera imyenda yacu, mu gutera imyenda yacu ipasi.

Aha ni mu nzu y'Imana, mu rusengero tujyamo. Iyo tugezemo, turasenga, turatura, bakadusabira n'umugisha. Kandi buri wese ataha yishimye. N'abandi mwese, mujye muraza, tujye hamwe gusenga.

Mu rusengero abantu bajya gusengeramo, iyo bamaze kugeramo baratura, bamara gutura, bakisanzura baganira n'Imana, nta nkomyi bafite, ikindi kandi ni rusengero rwubatse neza ku buryo abasengamo badashobora kunyagirwa.

Inyubako za Leta ni inyubako yubatse neza isakaye neza, kandi izi nyubako zicururizwamo ibikorwa bitandukanye, tuzifashisha nk'ibitaro, tukazifashisha nk'amavuriro, tukazifashisha turi kuzikoreramo inama n'ibindi bikorwa bya Leta.

Urusengero abantu bajya gusengamo, abana, abakuru, abasaza n'abakecuru bajya gusengamo, urusengero rwubatse, rushaje, rwubakishije amategura bubatse kera, ariko abantu bajyamo gusengeramo bakitagatifuza.

Iyi ni inama abaturage bicaye ku ruziga， bateze amatwi umuyobozi， bari kwiga uko uburenganzira bwabo bwakubahirizwa， ndetse n'ubutabera， cyane ko bishimira ko bayoborwa neza， mu butabera， n' uburenganzira bwabo bukubahiririzwa.

Abaturage bicaranye, bicaranye mu nama baganiraga uburyo bakwita k'uburenganzira bwabo ndetse n'ubutabera mu byo bakora n'ibyo bakorerwa n'abayobozi babo.

Abaturage bose bicaye neza bahanze amaso imbere, bafite n'amakayi bari kwandikamo ibyo bari kubwirwa mu nama barimo, kandi inama ni ingirakamaro.

Abo bantu bari mu nama barishimye, bari kuganira ku burenganzira bwa bo ndetse n'ubutabera bubakorerwa. Ni igikorwa cyiza kumenya uburenganzira, bamenya uburenganzira bwabo ndetse n'ubutabera.

Inama aho abaturage bazindukiye aho basanzwe bakorera inama, baje bambaye neza bari ku murongo bateze amatwi mugenzi wabo ari kubaza ikibazo cyabagirira akamaro. Ikindi kandi inama ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Aba bantu bari kugenda n'amaguru. Imodoka zigenda impande iruhande rwabo bafite n'imizigo myinshi bagiye mu mirimo itandukanye ijyananye, ijyanye n'ubukorikori n'ibindi.

Ubwoko bwimodoka zitwara abantu mumuhanda . Imodoka zisa neza ziri muri wa kaburimbo zifasha abantu kugera iyo bagiye aho hantu, nabo bishyura amafaranga abashoferi.

Muri gare aho abantu bategera imodoka zibajyanye mu byerekezo bitandukanye, harimo abagenzi benshi n'imodoka nyinshi ziteguye kubajyana aho bajya ngo bahagere ku gihe kandi neza badahungabanye, iyo bageze mu modoka bishyura amafaranga kugira ngo babageze aho ba ugomba kubageza neza.

Abana b'abamotari n'abanyonzi，batwara abantu mu muhanda bajyana hirya no hino， guhaha，gucuruza，guhinga， ndetse nabo bakaba babishyura amafaranga bakiteza imbere.

Ubwikorezi n'ubutwazi aho harimo amamodoka, amamodoka na za moto bitwara imizigo ku muhanda, bijyaniye abakiriya ndetse abakiriye bakabona ibyo kurya, ndetse bakabona n'ubutwazi ku buryo bworoshye.

Imodoka itwara abantu kigali siti tawa, ikorera kigali siti tawa muri hoteri imodoka isa neza itwara abagenzi, ibavana ahantu hamwe mugace kamwe ibajyana ahandi kandi ifite abakozi beza, bahembwa neza n'abagenzi bagendamo bagenda bishimye bisanzuye.

Mu muhanda urimo imodoka zitwaraga abantu n'ibintu ,zibajyana aho bagiye zikajyana n'ibicuruzwa ku masoko ,abaturage bakabihaha biboroheye kandi zigenda ziri kwihuta.

Ubwoko bwa moto; iyi moto irasakaye ishobora gutwara ibintu inyuma, ndetse imbere hakicara abantu babiri, kandi bose bakagenda neza nta kibazo ni mvura ntishobora kubageraho.

Ubwoko bw'ubutwazi bukorerwa mumazi, ubwato buri mumazi, aho abantu bicaye muri ubwo ubwato bagiye ahantu hatandukanye, ndetse n'ubwato bwiza cyane aho buri wese yifuza kugendamo

Imashini zikora umuhanda, harimo n'imodoka zikorera ibikoresho, amabuye, imisenyi, ziyajyanye aho bari gukora imihanda. Umuhanda warangiritse, bari kuwukora.

Imodoka zikoreshwa mu bwikorezi ndetse no mu butwazi bw'abantu, Aho zitwara abantu zibavana hamwe zibajyana ahandi, kugira ngo bagereyo byihuse kandi mu buryo bworoshye, butekanye, n'imodoka zifite abakozi kandi zinasa neza cyane.

Imodoka ya bwite itwara abantu mu muhanda ba nyirayo bayikoresha mu gutwara abantu n'ibintu bashaka amafaranga yo kwiteza imbere, no guteza imbere imiryango yabo bishyuriramo abana amafaranga y'ishuri.

Uyu mukino uyu mwuga arimo arakora, ni umukino wo gutera umuhunda, icyiza cyo gutera umuhunda, ugorora amagufa ndetse ugashimisha n'umuntu uri kuwukora ndetse n'abamureba.

Siporo aho umukinnyi yambaye imyenda iriho ikirango cy'u Rwanda, afite n'igikoresho yifashisha mu gukina uyu mukino uyu umukino ni mwiza utuma turuhuka ubwonko tukanishima tunasabana n'abavandimwe.

Iyi ni siporo y'abanyonzi bari mu makurusi，ndetse dore n'imodoka y'imbangukiragutabara， ibari inyuma，iyo bari gukora ibi bikorwa， baba bari gushaka amafaranga， ndetse bagira n'ubuzima bwiza muri siporo.

Abo abaturage bari muri siport. Urabona ko bishimiye n'imibiri yabo bataha imeze neza. Babaha n'amafaranga bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Sport ni nziza cyane turayikunda.

Aho abakinnyi bafite ibikombe, amakipe ya bo yatsindiye, biragaragara ko amakipe ari ayo mu Rwanda cyane ko bambaye inifomu ziriho ibirango by'u Rwanda, siporo ni nziza Ituma abantu biteza imbere.

Iyi ni siporo ngororamubiri, aho tuyikina twambaye imyenda idutandukanya n'abandi, ndetse tugakina n'andi makipe dukoresheje ibiganza. Aho iyi myitozo ngororamubiri idufasha kugira ubuzima bwiza, ndetse ikanadufasha no gusabana na bagenzi bacu.

Siporo, iyi ni siporo y'umukino bakoresha amaboko, aho baba bambaye imyenda yabugenewe ndetse bafite n'imipira, kugira ngo baze mu kibuga batandukane amakipe n'andi.

Siporo ngororamubiri, ni siporo y'umukino w'umupira w'amaguru, abana bakina bishimye, bisanzuye, bakidagadura, natwe turayikina, kandi siporo ni nziza, ni umukino mwiza buri wese yishimira kuwukina ari kumwe na bagenzi be.

Uyu ni umuhanda, tuwunyuramo tugiye mu bikorwa byacu bya buri munsi, turahinga, tukahirira n'amatungo yacu, ndetse umuhanda tuwunyuramo tujyanye ibicuruzwa byacu ku isoko n'ahandi.

Ubwoko bw'amabuye yitwa amakoro akikije amasambu bahingamo imyaka. Ikindi aya mabuye tuyifashisha mu kubaka inkuta cyangwa n' inzu zikomeye, kugira ngo tuzibemo n imiryango yacu kandi ntiduhangayike.